Imashini yagenewe kuhira cyangwa se kuvomerera imyaka, ikoresheje imbaraga z'isubira cyangwa se imbaraga z'umwuka, aho usanga bikorwa mu gihe gitoya kandi bigakorwa ahantu hanini.

Agapfunyika cyangwa se agahabo gapfunyikwamo umuti wica udukoko, uwo muti ukaba witwa ditane ma akanyereza mirongo ine nagatanu. Uwo muti rero ukaba urwanya ibyonnyi byibasira zimwe mu mboga n'imbuto harimo: nk'inyanya, intoryi pome amashu n'izindi.

Imiti yica udukoko twibasira ibihingwa, cyane cyane tugatera n'indwara, iri mu macupa abiri, iry'umweru rirerire, ndetse n'iry'umweru rigufiya, hariho ibyapa bigaragaza ibihingwa birinda uburwayi.

Imwe mu miti yica udukoko, iba ikoreshwa ku bihingwa bitandukanye, birimo nk'inyanya kugira ngo harwanywe indwara n'ibyonyi, iba isa mw'ibara ry'umuhondo, yasutswe ku nkoko, kugira ngo barebe ubuziranenge bwayo.

Ifi iteguranywe ubuhanga yateguwe mu buryo bwo kotswa, ndetse n'ibindi biyiherekeje harimo nk'imbuto, ibirungo, urusenda, ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikaba iri kugaragara mu mabara y'umuhondo ndetse n'umutuku.

Ubworozi bw'amafi bubera mu byuzi cyangwa se ibizenga, aho usanga ba nyirabyo baba barubatse inzu cyangwa se ibiraro by'inkwavu, kugira ngo zijye zita umwanda mu mafi, bibe ifunguro ryayo.

Udukoresho, turi mu mabara atandukanye; harimo nk'ubururu, umutuku, n'igitaka, ndetse n'umuhondo, tukaba twaragenewe kubika umusaruro ukomoka ku mafi, kugira ngo habungwabungwe ubuziranenge bwayo.

Icyuzi cyangwa se amazi yagenewe korora amafi, bityo rero bakaba barubatseho inzu irimo inkwavu, kugira ngo umwanda waziturutseho ujye utunga ayo mafi nk'ibiribwa.

Ubu bwoko bw'ibiribwa bikomoka ku mafi biri mu moko atandukanye harimo nk'amahera ,amashonzi, amafi, ndetse n'ibindi biteretse mu gikoresho nk'ibase bigaragara ko bimaze gukorwa mu mazi igihe kigeze kugira ngo bitunganywe biribwe.

Kimwe mu bikoresho byo mu rugo ,cyane cyane ibyo ku meza byifashishwa mu gutegura amafunguro , ndetse no kugeza ku bashyitsi yitwa i isorori. Igaragara mu mabara atandukanye nk'umweru, abariho ndetse n'imitako y'uturabyo, mo imbere harimo isosi y'ubugari n'inyama n'utundi tuboga.

Ubworozi bw'amafi bubera mu biyaga karemano, cyangwa se ibyuzi, ni ubworozi bukunzwe n'abatari bake hano mu gihugu, aho usanga borora amafi yagira igihe cyo gusarurwa bakazana imiraga cyangwa se ibyabugenewe kugira ngo bayakuremo ubwo bakayakuramo.

Bumwe mu buryo bugezweho bw'iterambere ndetse n'ikoranabuhanga, mu kubungabunga ibiribwa kugira ngo bitangirika, nk'amafi, inyama ndetse n'ibindi bitandukanye, ni ukubishyira muri firigo kugira ngo bitatakwa n'ubushyuhe bigateza za mikorobe ngo bibore.

Aho bacururiza cyangwa se isoko ricuruzwamo ibyo kurya cyane cyane ibikomoka ku mafi harimo: nk'indagara, isambaza, ndetse n'izindi. Inyama z'amafi zirambitse ku meza, harimo ibara ry'umuhondo abajwe mu giti.

Indobo ifitwe n'umuntu uvuye kurangura cyangwa se kugura bimwe mu bice bigize ibikomoka ku mazi, cyangwa se ku mafi, ari byo nk'isambaza, amafi, indagara ndetse n'ubundi bwoko bw'amafi butandukanye, aho biba byaranyujijwe mu mavuta ndetse bikumishwa, kugira ngo bikomeze kubungabungwa ubuziranenge bwa byo.

Ibase cyangwa se indobo irimo umusaruro w'ibikomoka ku mafi cyangwa se ibikomoka mu mazi, birimo nk'amafi, indagara, isambaza cyangwa se injanga ziteguwe gutunganywa ngo zikorwemo amafunguro.

Ibimera cyangwa se ibyatsi bivanze n' ibiti biba bikikije urugo rwo mu cyaro, harimo nk' insina, indabyo ndetse n' ibindi biti bitandukanye byifashishwa nk' ibishingirizo ndetse mu kurinda umuyaga.

Ubwoko bw'ibihingwa byera biri kurandaranda cyangwa se byishingikiriza ibindi biti bikomeye kugira bibashe kurandada hejuru. Biba bifite imigozi bigenda bifatisha. Usanga harimo nk'ibihaza, ibidodoki cyangwa se ibishayote, imyungu, n'ibindi n'ibindi.

Ibihingwa ngengabukungu ni bimwe mu bihingwa usanga bikijije abatari bakeya hano mu Rwanda ndetse n'amahanga, kuko usanga byiganjemo indabo, ibireti, ndetse n'ibindi bitandukanye. Ugasanga buri wese...

Umurima cyangwa se isambu y'urutoki, irimo insina zifite amakoma yasataguritse, harimo n'igiti kirekire gifite amashami asa n'icyatsi.

Umurima cyangwa se isambu imaze gutegurwa, kugira ngo hahingwemo imyaka zigeze zitandukanye. Ikaba yateguwe haciwemo imyobo, iciwe ku murongo ndetse hakaba hatewemo igihingwa cy'insina cyangwa se urutoki.

Ishyamba cyangwa se igitari kigizwe n'ibiti bitandukanye. Ari ibirebire ndetse n'ibigufi byitwa ibihuru, biri mu bwoko bw'intuse cyangwa se inturusi hariho n'ubundi bwoko bw'umutobotobo iba ifite amahwa.

Uyu umurima urimo imyaka y'igihingwa cy'iburarayi, ukaba ukikijwe n'ibiti by'amasombe, ndetse hakaba hubatsemo inzu zihomesheje ibyondo, zisakajwe n'amabati bigaragara ko zishaje, inyuma hari ikirunga cya Sabyinyo kibarizwa mu birunga bikikije u Rwanda.

Umurima cyangwa se isambu irimo imyaka igeze mu gihe cyo kuyanga, yitwa ibirayi. Impande yaho hakikijwe n'ibiti byo kurwanya isuri ndetse no kurinda umuyaga. Inyuma yaho hariho ikirunga cyo mu Rwanda cyitwa Sabyinyo.

Ibiti biri impande y'amazi cyangwa se uruzi, hakurya yaho hariho ibindi biti by'ubwoko bw'imigano ndetse n'ubwatsi, aho abakeneye kwahira cyangwa se aborozi bajya baza kwahira, ndetse bagatema ibiti by'imigano bakabyifashisha mu bushingirizo cyangwa se gushingirira imyaka.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa bikunzwe n'abatari bake, aho usanga biri mu mirima, ndetse imirima ikaba ikikijwe n'ibiti biri kurwanya isuri, ndetse no kugira ngo bijye birinda umuyaga waza ukabihungabanya.

Akayira k'abagenzi bagendamo n'amaguru iruhande rwaho harimo umurima w'ibirayi bisa naho bimaze kubagarwa. Karagiye kakanyura hagati y'imima ibiri iruhande imbere gato hariho igihuru kirimo indabyo z'imyeru.

Ikirundo cy'umusenyi cyangwa se umucanga w'umweru. Iruhande hariho ibihuru, hariho indabyo, hariho na kameroni. Imbere gatoya hariho umuntu wambaye agapira k'umweru n'ikabutura yifashe mu mufuka.

Imibyare y'insina zigera kuri enye. Inyuma y'aho hariho inzu isakaje amabati y'umutuku, iriho n'igipangu cyubakishije amatafari ahiye na fondasiyo y'amakoro ndetse n'amanegisi iruhande rwazo.

Bumwe mu buryo bwa kinyarwanda bwo kurwanya isuri, aho ufata isuka ugahinga mu murima wawe, ukagenda ucamo imiferege, aho amazi azagenda aca, ubundi ibihingwa ukabitera hejuru, bimwe byitwa imitabo.

Igihuru cyangwa se ibiti bigaragara ko biri mu murima bimaze iminsi hasaruwemo ibigori, ndetse ibyo biti bikaba byifashishwa mu gutema cyangwa se mu gukurwamo ibishingirizo biba bigiye kuzifashishwa mu bihingwa bizakurikiraho.

Umuhanda w'igitaka, unyuze mu rusisiro runaka, usanga uri kunyura hagati mu bipangu, ndetse n'izindi nzitiro z'abaturanyi, ah'usanga abawukoresha ar'imodoka, ndetse n'abanyamaguru.

Umurima cyangwa se isambu irimo ibimera bitandukanye, harimo ibyimejeje, urugero nk'ubwatsi bwitwa isanduruma, n'aho ibyatewe harimo amateke, isombe, insina, n'ibindi bitandukanye.

Abagabo babiri bishimye, umwe yambaye umupira wicyatsi ndetse na mugenzi we yambaye umupira wicyatsi, ndetse buri wese yambaye ingofero bari kwerekana ibihingwa by'ibirayi mumurima wabo.

Abahinzi bari gutegura umurima, abandi barigutera hifashishijwe uburyo bugezweho bwo guhinga inyamwuga, ndetse bagaca imyobo bari kurwanya isuri bateye ku murongo kugira ngo amazi ajye anyura hagati y'ibihingwa, ibihingwa bisigare hejuru.

Umugore wambaye agatambaro k'umweru mu mutwe ndetse wishimiye, imyaka ahagazemo y'ibishimbo bishingirijwe ibiti by'urubingo ndetse bikaba, bigeze mu gihe cyo kuzana amababi cyangwa se umushogoro ndetse bikaba biri kuyanga.

Kimwe mu bihingwa ngandurarugo, ndetse kikaba gikunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse n'imahanga, aho usanga wagisanga mu mabara atandukanye harimo nk'umutuku, icyatsi, ndetse rimwe na rimwe ukaba usanga kiri mu mabara y'umutuku n'icyatsi bivanze.

Rimwe mu matungo magufi rigaragara mu ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi, rifite agatwe k'umutuku, rihagaze ahantu mu rwuri cyangwa se mu byatsi. Ryitwa inkoko. Ariko iyi mfizi ikaba yitwa isake.

Umusaruro w'ibirayi, aho usanga biba byasutswe ahantu hamwe, kugira ngo birindwe kuba byagira ubushyuhe bwinshi, cyangwa se kugira ngo bibe byakwinjiramo akayaga, kugira ngo bigire uburambe mu gihe biba biri gucuruzwa, cyangwa se haba hagitegerejwe abakiriya ngo baze babigure.

Igikorwa cyo gukusanya ndetse no gusarura amababi y'icyayi, aho abagisarura bifashisha intoki ndetse bagahita bashyira mu bikoresho biba biziritse mu mugongo wabo, birimo nk'ibitebo ndetse bambaye amashashi, aho baba basoromesha intoki kugira ngo kibone kujyanwa mu ikusanyirizo ndetse gitunganwe mu nganda.

Ubwikorezi buva mu gace kamwe bukajya mu kandi, aho bukorwa n'ibinyabiziga bitwara imizigo birimo imodoka. Aho usanga byatwaye ibicuruzwa bitandukanye cyane cyane ibikomoka ku buhinzi. Harimo ibitoki ndetse n'izindi mbuto, ugasanga baba bari ku bipakurura ababishinzwe. Abandi bari kubakirira hasi.

Umugabo wambaye umwambaro w'icyatsi, bigaragara ko yishimiye umusaruro we w'imyumbati, ari gupima ku mwunzani, ndetse akaba ari igiti kera imyumbati myinshi.

Abantu baremye isoko ry'ibiribwa bibanda ku bikomoka ku buhinzi birimo: nk'intonore, imboga ndetse n'imbuto, zigiye zirambikwa ku bintu by'ibikoresho gakondo harimo nk'inkoko cyangwa se intara.

Zimwe mu mboga zirinda indwara ndetse zikazirwanya zitwa ibitunguru by'umweru, ndetse biba bifite amababi y'icyatsi. Bifunze mu mifungo bitewe n'ibiciro byagenwe buri wese araza yisanga.

Mu bihingwa bitandukanye duhinga mu Rwanda, harimo ibitandukanye birimo n'ibinyabijumba, mu binyabijumba rero usanga habarizwamo igihingwa cyitwa amateke, amateke akaba ari ibihingwa bigaragara nk'aho ari ibijumba cyangwa se bijya gusa n'imyumbati , bikaba bikundwa n'abatari bake ,aho ari ibinyamafufu cyane bikaba bitera imbaraga mu mubiri.

Umusaruro ukomoka ku rutoki ndetse ushimishije, bitewe n'igitoki basaruye gifite uburebure bushamaje, ndetse kikaba kiri kumurikwa mu bantu batandukanye, hariho n'abayobozi. Inyuma yaho hariho umuntu ushinzwe umutekano ku rwego rw'abadaso mu gihugu, yambaye impuzankano y'ibara ry'icyatsi.

Ingurube ni zimwe mu matungo magufi ,usanga zikundwa n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse n'amahanga ku buryo zitanga umusaruro mwinshi mu gihe gitoya kandi zikororoka vuba.

Isoko cyangwa se ihahiro ririmo ibiribwa byiganjemo ibinyabijumba, harimo imyumbati. Aho usanga abakiriya bari kuza kuyigura bakabanza bagura ku mifungo cyangwa se bagapima ku munzani bitewe n'ubushobozi bwa buri wese cyangwa se nuko yifite.

Igikorwa cyo gusarura, aho usanga abantu bateranye ndetse batumiranye, kugira ngo basarure ibihingwa bimwe na bimwe harimo nk'ibigori, aho usanga bigaragazwa n'uko biba byarumye igishishwa cyarabaye umweru, kugira ngo bibone kwanikwa ndetse bikorerwe n'ukundi kwitabwaho.

Zimwe mu mbuto zikundwa n'abatari bake zigaragara mu mabara meza y'umutuku iyo zeze neza cyangwa se zitarera neza, zikaba zigaragara mu mabara y'icyatsi bitewe n'iz'umuntu ashaka. Zikaba zigira umutobe mwiza iyo uzisatuyemo imbere zikaba zitwa amatunda. Ziri mu base y'ubururu.

Isoko cyangwa se ubucuruzi bw'ibiribwa, byiganjemo ibikomoka ku buhinzi, harimo nk'imboga n'imbuto, nk'inyanya, ibitunguru, imiteja, karoti, pavuro n'ibindi bitandukanye. Hakaba harimo n'imbuto ,harimo amaronji, amacunga, indimu, ibijumba n'iibindi.

Abagore bahagaze mu muhanda hagati bigaragare ko bishimye, bafite imbuto zitwa inanasi bafite, bambaye ibitenge, batatu muri bo bambaye ibitenge ndetse umwe muri bo yambaye ijipo.

Ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane ibikomoka ku buhinzi, biri mu bikoresho bigiye bitandukanye nk'amabase, inkoko, ibikarito, aho usanga harimo amaronji, amavoka, wotameroni ndetse n'ibindi.

Umusaruro w'ibikomoka ku bihingwa bibarizwa mu muryango w'imboga byitwa intoryi. Aho usanga bibereye amaso ku muntu uri kubireba biba bifite inkondo z'icyatsi nyuma yo gusarurwa ndetse bimaze gutegurwa nk'amafunguro.

Abagore batatu umwe yambaye agasengeri k'umutuku, babiri bipfutse ibitambaro, ndetse harimo uri kubagira inama, n'abambaye agapira k'umutuku bisa n'aho bari kubagira inamamba zijyanye n'ubuhinzi, kugira ngo babashe kunoza neza umusaruro wa bo.

Igihaza kirimo ibara ry' icyatsi ndetse kikaba kirimo utundi tubara tw' umweru, usanga bikunzwe n' abatari bake hano ku isi ndetse no mu gihugu, ndetse bikaba bizwiho nko kugiramo inzuzi mwo imbere.

Igikoresho cyo mu gikoni cyitwa isafuriya, kigaragara ko gifite isuku giteretse hasi kuri sima. Mo imbere harimo amashaza ari mu ibara ry'icyatsi, amaze gutunganywa mbere y'uko ategurwamo amafunguro.

Udukoresho twabugenewe cyangwa se udutete turi mu mabara atandukanye harimo: nk'icyatsi, ubururu, n'umutuku, ndetse n'umuhondo. Twagenewe mu gukusanya ndetse no gutwara umusaruro cyane cyane ibikomoka ku mbuto n'imboga, kugirango bitangizwa n'ubushyuhe.

Aho batekera cyangwa se aho bategurira amafunguro hazwi nko mu gikoni, harimo ibiryo byateguwe bitandukanye birimo, nk' ibirayi, amafi, inyanya biteretse ku bikoresho byo mu gikoni nk' amasafuriya, amasahani n' ibindi bitandukanye.

Bimwe mu bihingwa bitera imbaraga ndetse bikaba bizwiho kugira amafu bifite isuku, cyane cyane usanga biri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, cyangwa se byaba byeza cyane ugasanga ni igitaka, byitwa ibijumba biri ahantu bitegereje ko baza bakabigura.

Urubuto rukasemo kabiri rurambitse ku mababi yo ku giti cyarwo, n'imbere harimo imbuto z'umukara, ndetse rugaragara mu ibara ry'umutuku ryerekana ko rwahiye, rukaba rwitwa ipapayi, kandi rukundwa n'abatari bake, kuko ruzwiho mu kurinda indwara ndetse no kuzirwanya.

Umusore uri kugosora, ni zimwe mu mbuto dusanga mu binyamisogwe, ibishyimbo akaba ari kubigosorera ku ntara cyangwa se inkoko bitewe n'uko wabivuga akaba yambaye ishati y'umukara, ndetse n'ingofero y'urugara afite na linete mu gatuza.

Rumwe mu mbuto zikundwa hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye rwitwa avoka. Iyo urusatuye usanga mo imbere harimo ikibuto kandi harimo amabara y'umuhondo , agaragaza amavuta ruba rwifitemo ndetse n'intungamubiri ku mubiri w'umuntu.

Umurima cyangwa se isambu irimo igiti cy'urubuto rwitwa ipapayi, aho amwe mu mapapayi asa n'umuhondo bigaragare ko yahishije, ndetse andi akaba agisa n'icyatsi bigaragare ko hakiri igihe cyo kuyategereza, kugira ngo abe yakwera.

Imbuto zikundwa n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse n'amahanga, zimwe iyo uzitonoye usangamo imbere harimo umutobe, ndetse ziba zigaragara mu ibara ry'umuhondo, zikaba zitwa amacunga ndetse zikaba zizwiho kurwanya indwara ndetse no kuzirinda.

Umusaruro w’ibikomoka ku buhinzi birimo ibishyimbo, usanga biri mu mabara atandukanye bitewe n’ubwoko bwabyo: nk’umutuku, icyatsi, umweru. Kandi ibyo bishyimbo biba bifite utujisho ari two tujya tumera iyo umuntu yabiteye.

Umurima usa naho waraye bitewe no gutinda kuwugara, uhinzemo igihingwa cy'intoryi, aho zisa n'izigeze igihe cyo guhudurura cyangwa se zimaze igihe ziri gusarurwa. Zagiye zirashingirirwa n'ibiti kugira ngo zitazavunika cyangwa ngo zigwe hasi.

Ubucuruzi bwo kudandaza cyangwa se uduconsho, utwo duconco rero tukaba ducuruzwa mu nsisiro zigiye zitandukanye, muri ubwo bucuruzi harimo insenda, ibitunguru, n'izindi mboga zitandukanye.

Zimwe mu mbuto zikundwa n'abatari bake hano ku isi harimo n'amapapayi. Amapapayi rero ni imbuto zera zisa n'icyatsi cyangwa se zikera zisa n'umuhondo, bitewe n'aho wazitaze. Amapapayi rero akaba ari meza ku bagore batwite ndetse n'abana.

Igikorwa kiba nyuma yo gusarura ibirayi, ni ukubipakira mu mifuka, ubundi bakayirambika ahantu hamwe kugira ngo ipimwe, ijyanwe mu isoko ndetse banayishakire abakiriya.

Ubuhinzi bw'inanasi harimo izeze ndetse n'iziteze, aho bagiye barafata ibiti bakabishinga ku ruhande kugira ngo zitazahura n'ikibazo cyo guhirima zikatakwa n'uburwayi.

Umuhinzi w'igitsina gore ahagaze mu murima urimo imyaka yitwa amatunda, ageze mu gihe cyo kuba ari kuzana ibitumbwe cyangwa se ibitoshi, ndetse akaba yarayubakiye kugira ngo azajye arandarandaho.

Umugabo usutamye mu murima bigaragara ko harimo imboga zitwa urusenda z'ubwoko butukura, harimo n'izitaratukura neza zisa n'icyatsi, akaba ari gusuzuma umusaruro we aho ugeze, kugira ngo abone ubuzijyana ku isoko.

Abagore bari gusarura ibihingwa by'ibirayi, bigaragare ko bari gukoresha amasuka bagera kuri bane, bari kugenda barabirunda hamwe. Nyuma yo kubikusanya baraza gupakira mu mifuka kugira ngo babigeze ku macumbi yabo.

Umukobwa wambaye imyambaro y'akazi isa n'icyatsi, ndetse afite ibisuko by'umukara, ndetse yambaye n'amaherena. Ari kwita ku bihingwa mu murima ukikijwe n'ibihuru.

Umugore uri mu murima w'ibishyimbo bigufiya, wambaye itaburiya y'ubururu, yishimiye imyaka ye bitewe n'ukuntu isa neza, kandi ihinze ku murongo nta n'uburwayi ifite.

Umugore wambaye agapira k'icyatsi, afite ibirayi mu ntoki, ari kwerekana umusaruro yabonye kandi awishimiye, aho yasaruye yifashishije isuka, ndetse akaba abonye ibirayi biri ku rwego rushimishije.

Igikoresho cyo mu rugo kirimo imboga zitwa intoryi. Ziri mu mabara atandukanye bitewe n'uko zeze. Harimo izatangiye gutukura bitewe n'uko zarangije igihe, harimo n'izigisa n'ibara ry'umweru, kuko zigifite ubuziranenge.

Mu murima w'urutoki harimo igitoki keze kandi kirekire bigaragara ko cyagiye kisatura hejuru bitewe no kwera. Hariho n'imineke yagiye irashya ku ruhande ku mitwe yazo, kikaba giteye inkingi arizo zikirinda kugwa cyangwa se guhuhwa n'umuyaga.

Igikorwa cyo kubagara ni kimwe mu by'ingenzi bikorerwa ibihingwa aho umuntu aba arandura ibyatsi byameze ku ruhande kandi atarabiteye. Igikorwa rero kiba cyane cyane iyo imyaka imaze kugera nko muri santimetero mirongo ine na mirongo ine n'itanu.

Ababyeyi bafite ibikoresho byifashishwa mu gutegura umurima bizwi nk'amasuka. Biba bifite umuhini kugira ngo umuntu abashe kuwufataho, bari gutegura umurima bari guhinga, bari kureba epfo kugira ngo bazamure ubutaka buba bwaramanutse hepfo.

Amababi asa n'icyatsi bigaragara ko ari ay'imyumbati, ndetse n'umusaruro wayo iri ku giti kimwe kandi bigaragara ko cyeze neza, kigizwe n'utundi tuzi dutoya tuyifasha kugira ngo kibone intungamubiri ,ndetse n'umusaruro ufite ishusho y'ibijumba ari byo myumbati.

Imboga zigizwe: n'ibitunguru, inyanya , tungurusumu ndetse na karoti . Zirimo amabara y'umuhondo , ndetse n'ibitunguru bifite imyeru mu gice cyo hasi ndetse n'amababi y'icyatsi.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi byiganjemo ibinyamafufu cyangwa se ibinyabijumba, usanga bitanga umusaruro wo hejuru cyane kandi mu gihe gitoya, aho usanga byera mu mezi atatu, hagati y'atatu n'atanu.

Abahinzi babiri bamaze gusarura zimwe mu mbuto zikundwa n'abatari bake. Zigira amazi mwo imbere zikagira n'umutobe uryoshye kandi uvura indwara ndetse ukazirinda .Abo bahinzi rero, umwe yambaye umukara undi yambaye agapira gasa n'icyatsi.

Amateke bimwe mu biribwa bikundwa n'abatari bake, hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, aho usanga biba bimeze nk'ibinyabijumba. Ndetse bikaba birangwa n'amafu mu gihe biba bihiye, kandi bikagira intungamubiri. Ndetse bigatera imbaraga umubiri wa muntu.

Rumwe mu mbuto zikungahaye ku mavuta, ndetse no kurwanya indwara zibasira umubiri w'umuntu, aho iyo urusatuye usanga harimo ikibuto, ndetse rimwe na rimwe, usanga zimwe ziba ari ndende zimeze nk'ibicuma, izindi ziburungushuye.

Ubutaka bufite ubuhaname ndetse hakoreshejwe uburyo bwo kurwanya isuri, burimo nko gukoresha amaterasi y'indinganire. Hahagazemo abakozi cyangwa se abahinzi bari kugerageza guteramo imyaka, kugira ngo izabashe kubatunga mu gihe kizaza.

Zimwe mu mboga zikungahaye ku ntungamubiri ndetse zikundwa n'abatari bake zigaragara mu ibara ry'icyatsi, zibarizwa mu muryango w'ibinyamisogwe ndetse ku ruhande rwazo hariho izindi zitwa pavuro. Ziri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'izo mboga z'imiteja ziri mu mufuka w'ubururu ndetse no mu ndobo.

Umusore wambaye imyenda y'akazi yikoreye ifumbire, agiye gufumbira imboga ziri mu bwoko bw'ibihaza, bigaragara ko asa nabi bitewe n'ifumbire yamwanduje, kandi yambaye ingofero mu mutwe.

Igikoresho gikozwe mu migano kibohesheje ibiti ndetse kigasigwa amase, kugira ngo cyongerwe uburambe. Kifashishwa mu kubika imbuto ndetse n'impeke zizamara igihe kirekire mu bubiko. Cyakoreshwaga mu bihe byahise, ndetse na n'ubu hari uduce bakibikoresha.

Ibihingwa cyangwa se imyaka igaragara mu ibara ry'umutuku ndetse n'amababi y'icyatsi, byerekana ko bimaze kwera, bifite ibimenyetso bitandukanye, bibigaragaza, ibyo bihingwa rero ni amasaka, aho ategereje gusarurwa ngo ubundi atunganywe.

Umudamu wirabura wambaye igitambaro cy'umutuku, ndetse akaba yambaye imyenda y'umukara. Ari mu murima w'amasaka akaba yishimiye umusaruro, ndetse aho imyaka ye igeze iri kwera.

Kugosora ni kimwe mu bikorwa bikorerwa imyak cyane cyane ibinyampeke, aho usanga umuntu akoresha igikoresho cyitwa inkoko, hanyuma agahuha hejuru imyanda ikavamo hagasigara imbuto gusa.

Ibimera cyangwa se ibyatsi bigaragara mu ibara ry'icyatsi biri mu kigero cyo gusarurwa, byagenewe amatungo ndetse bikaba ari urwuri, mu gihe umworozi yahisemo kubigaburira amatungo aragiye.

Ibinyampeke ni bimwe mu bihingwa ngandurabukungu, ndetse bikaba binagandura urugo, kubijyanye n'imirire. Hakaba harimo rero n'ingano, aho usanga igihe ziba zeze ziba ziryoheye amaso mu ibara risa n'ikigina, igihe umuntu ari kuzitegereza akazuba kari kuva.

Umurima guri kubuso bunini, gurimo ibihingwa by'amasaka bigeze mu gihe cyo guterera, cyangwa se mu kugirango gazanemo impeke. Kandi hakaba hari kuva akazuba, mbese muri rusange, amasaka ari hafi kwera.

Umudamu wishimye asa nk'aho ari gucuruza ibishyimbo birimo amabara atandukanye, ndetse akaba abicuruza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aho akurengera mu kintu cyabugenewe, ndetse yarakigeneye igiciro runaka, kugira ngo unyurwe.

Igikorwa cyo kwanika ni bumwe mu buryo bwifashishwa mu kugira ngo dutunganye umusaruro, ndetse tuwuhe uburambe bwo kuzamara igihe kirekire cyane cyane hibandwa ku mbuto ndetse n'impeke zirimo nk'ibigori, ndetse n'ibishyimbo. Iyo bimaze kwanikwa bihita bishyirwa mu mufuka.

Imwe mu mirimo ituma ibihingwa biramba ndetse zirinda n'uburwayi, harimo no kurobanura. Umugore arimo kururobanura ubunyobwa, ari gutoramo ibyangiritse akabishyira ku ruhande, ndetse akareba ibizima akabishyira ku ruhande.

Igikoresho cyo mu rugo kizwi nk'ibase, kirimo impungure, cyangwa se impeke zikomoka ku bigori biba biri mu mabara y'umweru, iyo byanitswe bikuma, igihe kiba kigeze kugira ngo bibe byabikwa mu ibikoresho runaka harimo n'ibase.

Igikoresho gikozwe mu cyuma gifite amapine abiri, ndetse gisudiwe n'ababigize umwuga kikaba gifite imikondo ibiri yo gufataho, ndetse kikaba gifite ibara ry'umutuku. Kifashishwa mu mirimo itandukanye harimo nko gutwara umusaruro ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Uburyo bugezweho bwo gukora ubuhinzi, ndetse biteza imbere, ni ugutera ku murongo imyaka, ndetse ukabagara, aho usanga imirima ifite isuku, ubwo buhinzi rero bukaba bukorwa ku mboga, imbuto, aho intera hagati y'umurongo umwe n'undi iba ingana.

Ibishyimbo byamaze gutumbama ndetse bikamara iminsi igera kuri ibiri mu mazi, ibyo bigatuma uruhu rwabyo ruturika ndetse hakaza umumero ku buryo byaba byiteguye gutera bigahita bimera.

Imbuto z'indobanure zatunganyijwe nyuma yo gusarurwa, harimo nko kwanikwa, kurobanurwa, ndetse no gutonorwa, kugira ngo zikomeze zibungabungwe ubuziranenge bwazo. Zikaba zitwa ubunyobwa, aho ziribwa cyangwa se bakongera bakazitera.

Ibishimbo bigeze igihe cyo gufata ibiti, bimaze kuzana amababi ndetse biri kuzana ingoyi cyangwa se utugozi two kugenda birizingazinga ku giti kugira ngo bibone igikuriro, ndetse bizatange umusaruro ku babihinze.

Umufuka cyangwa se igunira ryagenewe mu kubika cyangwa se mu gutwara imyaka, ririmo imbuto za soya ziri mu mabara y'umweru, ndetse zifite n'utujisho tw'umukara.

Ibishyimbo ni imwe mu myaka itanga umusaruro kandi ikarangwa no kuvura indwara nyinshi zitandukanye , aho usanga biri mu mabara menshi harimo nk'umutuku imyeru , ndetse hakaba n'ibyo usanga byivanze n'imweru n'imikara.

Abasore babiri bahagaze impande y'ubuhunikiro, cyangwa se ubwanikiro, bw'umusaruro ukomoka ku bigori, aho bibikwa kugira ngo bizaze gukusanywa nyuma, bifite ubuziranenge.

Umufuka munini usa n’umweru urimo ibikomoka ku buhinzi bibarizwa mu muryango w’ibinyamisogwe, biri mu ibara ry’umukara bitewe n’ubwoko bwa byo, byitwa ibishyimbo. Aho bigaragara ko byitaweho bikanikwa, ubu bikaba bigeze igihe cyo kuba byaribwa cyangwa se bigaterwa.

Inzu icururizwamo ibiribwa bitandukanye, byaba ibikomoka ku buhinzi, ndetse n'ibyacishijwe mu nganda, harimo nk'amafu, imiceri, amavuta ndetse n'ibindi bitandukanye bitewe n'uko umukiriya abyifuza, bikaba bipakiye mu mifuka, ndetse n'amavuta mu bijerekani.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi bibarizwa mu muryango w'ibinyampeke byitwa amasaka, mu kinyarwanda bakaba babyita ihundo, biteretse ku meza cyangwa se ku mbaho, kandi bikaba byarumye, bikaba bitegereje gutunganywa ngo bikorwemo ibindi bintu bitandukanye.

Itungo ryo mu rugo ribarirwa mu matungo magufi, aho ryabwaguye ibibwana biri ku mubare munini. Rikaba riryamye kugira ngo ribyemerere konsa cyangwa se konka.

Inka ebyiri z'imikara, ziri kurisha mu rwuri ruri imbere y'inzu zazo, cyangwa se ibiraro byubatse mu ibara ry'umukara, hari imbaho ndetse hahakaba hapavomye na sima.

Ingurube iri mu nzu yayo cyangwa se ikiraro cyayo aho iba. Ifite ibyana bigera kuri birindwi bimaze iminsi ibwaguye, ndetse bigaragare ko iri konsa kandi ifite igikururo kiza.

Ubworozi bw'amatungo magufi, harimo nk'ingurube, ni igikorwa giteza imbere abantu batari bake aho usanga bisaba kuzubakira ibiraro bikozwe mu mbaho ndetse hasi bipavomye na sima, ndetse ibyo biraro bikaba bisakaje amabati cyangwa se irindi sakaro wabona iryo ari ryo ryose ryazirinda imvura.

Ubworozi bw'amatungo magufi bwitwa inkoko, aho usanga ziba ziri gutanga umusaro munini mu gihe gitoya, ziri mu nzu zabugenewe, cyangwa se ibiraro, harimo n'ibikoresho byifashishwa mu kuzigaburira.

Umusaza usutamye impande y'inka afite akadobo, ndetse inka yayiziritse amaguru y'inyuma, ari mu gikorwa cyo gukama amata y'inshyushyu ari mu kiraro, ndetse hasasiwe n'ubwatsi kugira ngo hagirirwe isuku.

Inzu ubakishije ibiti ndetse isakajwe amabati. Hasi hapavomye na sima, ndetse hari umwobo ku ruhande bigaragara ko hari inzu y'ubworozi, aho umwanda cyangwa se amaganga ajya araturuka, kuri ayo matungo akazajya yikusanyiriza muri kino cyobo na cyo gipavomye na sima.

Amatungo magufi Ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara bitewe n'uko yavutse. Yitwa inkwavu, zitanga umusaruro munini mu gihe gito, bitewe n'uko umuntu aba yazitayeho.

Umurima munini cyangwa se isambu isa naho ari urwuri hahagazemo ihene y'isekurume mu kinyarwanda yitwa ruhaya. Ihene iri mu mabara y'u umweru ndetse umweru n'umukara. Iyo hene ifite amahembe iyo hene bigaragarare ko ari impfizi.

Ikiraro kirimo isasiro, cyangwa se icyarire, ndetse n'ubwatsi buri kuribwa n’inka ikiri inyana, iri mu mabara y’umutuku ndetse n’umweru. Mu kaboko k’iburyo hariho igikomere gisa n’icyapfutswe n’ababishinzwe.

Inka iri mu ibara ry'umukara, iri ahabugenewe kugira ngo yitabweho n'umuvuzi w'amatungo wambaye uturindantoki ,yambaye n'umwenda wabugenewe uri mu ibara ry'umweru, uwo mwenda ukaba witwa itaburiya , ndetse akaba yiteguye kuba yayivura.

Akanyana cyangwa se umutavu ukimara kuvuka muri ako kanya, aho nyina cyangwa se imbyeyi iri kukarigata, kugira ngo igakureho umwanda, kugira ngo gakomeze kugira ubuzima bwiza, ndetse kabone guhumeka, gatore agatege, gahaguruka.

Abagabo babiri bambaye amasarubeti y'umweru ndetse n'ingofero z'umweru aho bigaragara ko ari abavuzi b'amatungo bari kwita ku nka bari kuyifasha uburwayi bwo mu nda cyangwa se bakaba bari kuyibyaza yego.

Umugabo wambaye imyenda y’akazi, yambaye na bote z’ubwirinzi cyangwa se kugira ngo umwanda utamugera ku mubiri, yorora ingurube, aho imbere ye hahagaze itungo rigufi ry’ingurube, rifite ubunini budasanzwe, bigaragaza ko ryatanze umusaruro.

Iyi ni inka y'imbyeyi iri mu ibara ryitwa igaju, inka yitwa gaju ifite amahembe maremare ndetse magari, iri mu kiraro gikikijwe n'amabati ndetse harimo n'ifumbire, yambaye amaherena.

Amatungu abiri magufi, ndetse n'irindi riri ku ruhande, ari gufungura ibyatsi bamaze kuyaha, ari mu kiraro cy'ubakishije imbaho, ayo matungo yitwa ingurube ari kurya ibyatsi, aho ahagaze mu kiraro gipavomye na sima.

Ni zimwe mu nyamaswa cyangwa se amatungo yororerwa mu rugo, zitwa ingurube. Zibarirwa mu matungo magufi, aho usanga zitanga umusaruro munini mu gihe gito, kuko ingurube ishobora kubyara ibibwana bigera kuri birindwi icyarimwe.

Itungo ryo mu rugo ribarizwa mu muryango w'ibiguruka cyangwa se ubwoko bw'inyoni zororerwa mu rugo zitwa inkoko, aho itera amagi ndetse ikaba ihagaze impande y'agashyamba karimo utwatsi itegereje ko havamo udusimba ngo idutore.

Zimwe mu nyamaswa z'inkazi zisangwa muri pariki y'akagera, ndetse zikurura ba mukerarugendo baturutse i mahanga baje kuzireba, aho usanga zifite ihembe rinini, ndetse zigaragara mu mabara y'ikigina, zikaba zitwa inkura.

Akanyamasyo; imwe mu nyamaswa zitangaje, aho usanga ku mugongo wazo ahakomeye nk'urutare kurusha mu nda, iyo kabonye umwanzi, karihisha ,ku buryo utagakomeretsa ngo bikunde, iruhande rwako hariho utwana kabyaye, turi ku mubare mwinshi, natwo uri kubona ko tumeze nka nyina.

Inyamaswa ifite mu maso hajya kumera nk'ah'umuntu , ifite umurizo muremure, ifite ubwoya ndetse n'amaso atukura, yitwa inkende . Ikunze kwibera mu giti ndetse ikaba izi kurira cyane , ikaba izwiho no kugira umuvuduko uri hejuru.

Zimwe mu nyamaswa nto kandi zifite ubumara harimo n'uruvu cyangwa se icyumvu, aho usanga kibera mu biti kikaba kizwiho guhindura ibara bitewe n'ahantu kiri cyangwa se igiti kiriho.

Imwe mu bwoko bw’inyoni ibarizwa mu muryango w’ibisiga cyangwa se ibikona, kiri mu mabara y’umweru n’umukara. Ihagaze ku ishami ry’igiti, kiri kwitegereza hasi, kiri gushaka kujya gufata ikintu kibi kureba hasi.

Ubwoko bw'inka iba ifite amahembe ariko yo iba mu ishyamba, hejuru yaho hari akanyoni kitwa akanyange gakunda inka cyane, ndetse ku ruhande hariho utundi tubiri bigaragara ko tuyishungereye, mbese turi kuyereka ubucuti.

Akanyamasyo ni inyamaswa itangaje cyane, kuko ishobora kuba mu mazi ndetse n'umusozi, ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yakwihisha, yahisha umutwe n'amaguru mu gikonoshwa cyayo, ku buryo nubwo wagikandagira wakumva gikomeye cyane.

Ubwoko bw'inyoni iri mu mabara meza, ihagaze ku ishami ry'igiti cy'ipera, ndetse ikaba ifite amabara y'ubururu ndetse n'umutuku ku mutwe, ikaba ifite n'umuhondo ku munwa no ku maso, ikaba iri kurya amapera yeze.

Zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo bakazana amadevize zitwa ingagi, ziba zitwaye nk'abantu cyane cyane ko zigendesha amaguru, cyangwa se zigakambakamba. Ziba zikunze kuba ziri mu ibara ry'umukara, zifite ubwoya bwinshi, usibye mu maso ahandi hose ni ubwoya gusa, zicaye ari ebyiri.

Inyoni ifite umunwa muremure ndetse n'ijosi rirerire bigaragara ko iri gutambuka mu mazi. Ikaba itunzwe n'udusimba two mu mazi harimo ibikeri, amafi, isambaza n'ibindi.

Impara, imparage ni inyamaswa zikunze kugendera hamwe, ndetse zikagirana umubano wa hafi aho dukunze kuba twazisanga muri pariki y'akagera, zikunze kuba zibereye mu mukenke cyangwa se mu bwatsi bwaho.

Inyamaswa y'ishyamba iri kwambuka umuhanda. Ku mutwe hariho ubwoya, ariko ku mubiri nko mu mugongo hariho amacumu yifashisha, igihe iba itewe n'umwanzi, ikikunkumura ayo macumu akajomba umwanzi uba aje kuyisagararira.

Imvubu ni imwe mu muryango w'inyamaswa ziba mu mazi maremare cyangwa se magari, aho usanga zinabyariramo, zikaba zitoza ibyana byazo kugira ngo na byo bimenye koga, kandi zikaba ari inyamaswa z'inkazi.

Zimwe mu nyoni zibereye ijisho ndetse zikurura ba mukerarugendo, aho zikunze kwibera mu busitani cyangwa se utwatsi dufite ibara ry'icyatsi, zikaba zigira umunwa muremure, ndetse zikaba ziganje mu mabara y'umweru, zigira n'amaguru maremare.

Imwe mu nyoni zibereye ijisho kuzireba, ihagaze ku ishami ry’igiti, ifite amabara atandukanye harimo nk’umuhondo, ubururu, ikaba izwi ku izina ry’umununi. Igira umunwa muremure w’umukara.

Ubwoko bw'inyoni isa n'umweru ndetse n'umukara , ifite amaso y' umukara , ihagaze ahantu harimo amazi cyangwa se hatose, ikaba itegereje ikintu cyo kurya cyangwa se agasimba kari kwibunza ngo ibone ku gatamira .

Kimwe mu biguruka cyangwa se inyoni zigira umunwa muremure ndetse n'amababa, zikunze gutungwa n'ibyo mu mazi nk'amafi, ndetse n'utunyamuhugi, byitwa imisambi, ndetse zikaba zizwiho kugira umuvuduko uhambaye mu gihe ziri mu kirere.

Ubwoko bw'inyoni bufite umunwa muremure, ifite amababa y'umweru ndetse n'ibara ry'umukara mu gahanga. Iri gushaka icyo yarya iri guhigira mu mazi cyane cyane, ikunze gutungwa n'udusimba two mu mazi harimo: amafi, udukeri, utunyamuhugi, n'utundi n'utundi.

Iyi ni inyamaswa ibarizwa mu bikururanda inyamaswa yitwa umuserebanya cyangwa se igihangara iyi njiyi rero ikaba ari igikururanda iba ifite umurizo mu mabara y'umuhondo ego.